urubyiruko rwaje muri serivisi zitandukanye, harimo abarimo kwifotoza ndetse n'abarimo kubafotora, barimo barahabwa udukoresho dutandukanye.

Akazu ka Airtel gaturanye n'aka MTN gusa MTN yo ifite abakiriya benshi mu gihe uwa Airtel afite umukiriya umwe, aha hatangirwa serivisi zitandukanye.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, hirya yayo hari akazu gato ka MTN gasizwe irangi ry'umuhondo, imbere gato hari ikinyabiziga k'igare, ndetse imbere gato hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi butandukanye zisizwe amarangi higanjemo iry'umweru.

Akazu gato ka MTN gasize irangi ry'umuhondo kariho ibyapa by'ubucuruzi bitandukanye higanjemo ibya Airtel na Tigo kandi kicaanwemo n'umuntu, imbere yako hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira, inyuma ye hari icyapa kigizwe n'amabara atandukanye gifite ubuso bw'umweru.

Umutaka wa MTN uteretse imbere y'inyubako nini biragaragara ko bari gucuruza serivisi za MTN aha ni ku mapave.

Akazu ka MTN, karimo umu agenti wambaye ijire ry'umuhondo, iruhande rwabo hari umumotari, asa naho nawe akeneye serivisi za MTN, ubundi agakomeza urugendo rwe.

Akazu gato ka MTN gasizwe irangi ry'umuhondo kariho ibirango bitandukanye imbere yako hari abasore batatu umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku wanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse yambaye ipantaro y'umukara.

Umusore wicaye yumiwe, yambaye ijile ya Airtel ariko yegamiye ku kazu ka MTN, ategereje abakiriya n'ubwo bisa nk'aho bataraza.

Umugabo wambaye itaburiya cyangwa se isarubeti y'icyatsi, afite igare mu ntoki, imbere ye hari umutaka wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo, munsi yawo hari umu ajenti wicaye ategereje abakiriya.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ubururu, iruhande rwacyo hari umusore uri gusunika ingorofani ndetse iruhande gato hari inyubako igeretse ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara, iruhande rwawo hari umutaka wa MTN, uri mu ibara ry'umuhondo, munsi yawo hari aba agenti ba MTN batatu umwe aricaye, ndetse inyuma yaho hari imodoka y'ivatiri ifite amabara atandukanye higanjemo iry'umweru, ndetse imbere gato hari imodoka ya rava iri mu ibara ry'ubururu.

Akazu gato gasizwe irange ry'umweru kariho ibirango by'ubucuruzi bitandukanye imbere yako hari abagabo babiri umwe muri bo yambaye ijire riri mu ibara ry'umutuku, iruhande rwabo hari inyubako nziza igeretse isezwe irange ry'umweru.

Inzu iriho icyapa cya Startime imbere yayo hari umutaka, ndetse batanga serivisi zitandukanye imbere y'iyi nzu hari amapave ndetse biragaragara ko ashaje.

Umutaka wa MTN uteretse imbere y'inzu, iyi nzu itangirwaho serivisi z'ubuvuzi, byose ni magirirane kuko iyo ukeneye amafaranga yo kwishyura ubuvuzi uza kuyabitsa hano cyangwa ukayabiguriza hano kuri MTN.

Imodoka iriho imibare ndetse yanditseho amagambo yo mu cyongereza barimo baramamaza ikigo cy'itumanaho cya MTN bavuga ko gitanga serivise zitandukanye.

Imurikagurisha ahabereye ubucuruzi butandukanye. Harimo inkweto zikozwe mu mpu ndetse amasabune n'ibindi, harimo abaje kwitegereza ibyakozwe.

Ni abayobozi bashikirije abaturage imashini nshya zidoda, bazibahaye ngo nabo bajye gukomeza gukora bihangira imirimo bityo bave mu bushomeri.

Inzu zimeze neza, hariho ibyapa bitandukanye ndetse hari n'abantu bagiye batandukanye, hariho abana bahagaze ku muhanda, izi nzu harimo izitangirwamo serivisi zitandukanye.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, Riganjemo Iry'icyatsi, ryiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Imbere yabo hari abagabo batatu bahagaze babiri muri bo bambaye imipira y'umukara iriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda. Umwe wo hagati yambaye ikoti ririmo ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'umupira uri mu ibara ry'ubururu, bose bafashe icyemezo cy'ishimwe.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro, ni bumwe mu buteza imbere ba nyirabwo kuko birera agasagurira amasoko ndetse na we ubwe bikamwungura. Umugabo arimo arasarura ibimaze kwera.

Abagabo n'abagore barimo barafata ifoto y'urwibutso, imbere y'umugezi biragaragara ko hari igikorwa remezo bari bagezeho, bamwe bambaye udupira twa oranje twanditseho koperative yabo.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze ahantu hamwe barimo barakoma mu mashyi, birasa nkaho bishimiye igikorwa bajemo. Ni abayobozi bambaye amakote ni abakire.

Ikirere gikeye gisa neza, hari inyubako zikorerwamo businesi zitandukanye, cyane cyane ubucuruzi, aho hari ibyapa byamamaza inzoga ya Skol.

Mu ibara ni hamwe mu hatangirwa serivisi zirimo inzoga, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, n'iyo ushatse n'ibyokurya urabitumiza bakabiguha. Aha ni akabari gateye imbere.

Ibiribwa ndetse n'ibinyobwa biteretse ku meza harimo ikinyobwa cya Sikoro, ku biribwa hariho inyama, ifiriti ndetse n'imboga, biteguye neza byateguriwe muri hoteri.

Intebe isize verine y'umutuku yitwa sheze, iri ahantu habona, ndetse hasize irangi ry'umuhondo. Iyi ntebe bayicaraho.

Ni butiki icururizwamo amavuta yo mu mutwe hitwa Venus akorwa mu bikoresho bitandukanye ndetse agakorwa mu buki ndetse n'ibindi.

Muri butiki habamo ibikoresho bitandukanye, aka bakita indorerwamo umuntu yireberamo akabona aho afite inenge, kamanitse ku rudodo ruriho amakaramu y'amabara menshi.

Igikoresho gikozwe mu cyuma cyitwa rushe. Gikoreshwa mu kwarura ibintu, byatetswe mu mazi, cyangwa se mu bisukika. Cyane nk'amavuta, ibyo dukunda kwita amafiriti.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa, ririmo umusore uriguseka wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari amandazi ndetse imbere ye hari kontwari irambitseho ibikoresho bitandukanye, higanjemo amacupa.

Ibikarito birimo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Buri bikarito birimo amagara mirongo itatu. Ibi byifashishwa ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Umupadiri wambaye agapfukamunwa imbere ye hari indangururamajwi, imbere y'imbaga nyamwinshi arimo arabigisha ijambo ry'Imana, bari mu rusengero.

Inzu nini nziza igeretse isizwe amarangi atandukanye ndetse ifite amadirishya manini arimo ibirahuri binini, imbere yayo hari imbuga yubakishijwe amapave ihagazemo imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo. Umwe muri bo yambaye ikositimu y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku.

Ikiriziya ahasengerwa, harimo serivisi zitandukanye, zirimo guhabwa ukarisitiya, gusomerwa ijambo ry'imana, kwigishwa, kuririmba ndetse n'ibindi.

Urusengero runini rurimo amarido atandukanye higanjemo ari mu ibara ry'umutuku n'umweru rwiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagabo umwe muri bo yambaye ikositimu iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amarinete ndetse inyuma yabo hari igikoresho kiri mu ibara ry'umutuku kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Urujya n'uruza rw'abagabo bahuriye ahantu hamwe bigaragara ko bavuye gusenga, harimo abagabo ndetse n'abagore, abazungu ndetse n'abirabura.

Abayobozi batanu b'abagabo bicaye imbere y'itangazamakuru, bamwe bafite za kamera barimo barabakamera bavuga, abandi barumva ibitekerezo barimo batanga.

Abana bakiri bato bicaye ku dutebe duto, umwarimu hirya abitayeho arimo arabaganiriza, ku rukuta hashushanyije utunyamaswa tugiye dutandukanye turimo bakame, ibishuhe, amahene n'ibindi.

Urusengero rwubatse ahantu heza hatuje hasa neza, biragaragara ko ari urw'abaporotesitanti, ni rurerure kandi rugezweho.

Icyumba kirimo inzitiramibu, igitanda ndetse n'ifoto, aha ni muri hoteri biragaragara ko hari n'amatara amurika.

Hoteli zizwiho kugira ibyumba binini ahabera inama zigiye zitandukanye. Aha abantu baraza bakahicara benshi ndetse n'ibyabazanye bakabyumva.

Hoteli iri ahantu heza hatuje iruhande rwaho, hari ibiti ndetse na jaride, amabati yayo ni umutuku ndetse isize amarangi y'umuhondo.

Igitanda cyo muri hoteri, gikunda kuba gisa neza gisukuye, hariho amasume ndetse n'utundi dukoresho tw'isuku, hariho n'imisego ndetse ni gitanda gisa neza, gisukuye.

Muri hoteli ahatangirwa serivisi zitandukanye, ni ahantu hakeye, hasukuye, hasa neza, ni ku makaro, hari amatara agiye atandukanye ndetse haratuje.

Parikingi nini igizwe n'imirongo irimo ibara ry'umweru yubakishijwe amapave ndetse iparitswemo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibiri mu ibara ry'umweru, hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, ndetse hirya yayo hari inzu nini igeretse isizwe irangi ry'umuhondo.

Hoteri ituje, imbere yayo hateye jaride irimo indabo ndetse n'umucaca, birasa nk'aho ari inzu imaze igihe ikoreshwa.

Inzu nini itangirwamo serivisi zo gucuruza ibiryo isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo umuzungu w'umugore wifashe ku matama, imbere ye hari ameza ariho ibikoesho bitandukanye ndetse n'umusore w'umwirabura wambaye ishati irimo ibara ry'umweru wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Isahani nini irambitseho, ibiribwa bigiye bitandukanye biri ku meza, hirya hari akandi gacupa, gashyirwamo umunyu cyangwa se urusenda.

Inzu itatswe neza irimo ibipirizo, munsi yayo hari intebe zicarwaho n'abakiriya batandukanye harimo n'ibindi.

Icyumba kinini cyo kuraramo gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo urumuri. Gifite umuryango munini urimo ikirahuri ndetse uriho irido. Kirimo igitanda kinini kiriho matera ndetse n'umusego ufite amabara atandukanye higanjemo iry'umukara.

Hoteri cyangwa se amamoteri agira ahantu hubwiza nyaburanga, aho abakiriya baruhukira bari gufata icyo kurya cyangwa se icyo kunywa. Aha baba batekereza neza kandi baruhuka.

Hoteli ni nziza ifite ama esikariye azamuka hejuru ahateye amarangi y'umutuku, hejuru niyo bibera kuko hariyo akabari ndetse n'imikino igiye itandukanye nka biyari.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, yicaye munsi y'umutaka wa Airtel ariko harimo ibikoresho bitandukanye arimo acuruza, ibi byose byifashishwa mu rugo ndetse akeneye abakiriya.

Isoko rinini ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, abenshi bari mu mitaka ndetse bategereje abakiriya ko baza kubagurira, hari n'ibiribwa byinshi.

Shitingi nini irambitseho ibikoresho byifashishwa mu rugo harimo: amasahani, ibyuma, ibikombe, amajage, indobo ndetse n'imyuko, hirya yabyo hari utujerekani dutoya turimo ibara ry'umuhondo ndetse imbere gato hari indobo iri mu ibara ry'umweru.

Ababyeyi bari mu isoko, barimo baranika cyangwa se badandura hasi ibihingwa, bategereje abakiriya ngo baze babagurire.

Imashini yifashishwa mu kudoda imyenda itandukanye, iri mu mabara abiri, umukara ndetse n'umweru, hejuru yayo hari akajerekani gato kari mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari umuntu uri kugenda wambaye umupira w'umuhondo, imbere gato haparitse moto.

Isoko ry'ibiribwa ndetse harimo abaguzi n'abagurisha, harimo higanjemo imyembe cyangwa se imbuto zitandukanye.

Igihingwa k'ibijumba ni kimwe mu bihingwa by'ingandurarugo biribwa n'abantu benshi mu gihugu cyacu. Bisutse ahantu hamwe ni byinshi wagira ngo baje kubigurisha.

Umujyi wuzuyemo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga haparitse moto, iriho umu motari wambaye kasike ndetse iruhande rwayo hari inzu ikorerwamo ubucuruzi, isize irangi ry'ubururu. Hirya yayo hari umutaka wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo wicayemo umuntu. Imbere yawo hari umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara.

Ubucuruzi butandukanye akenshi bubera mu masoko, aba ni abaturage bazanye ibicuruzwa byabo, harimo imyaka ndetse n'imboga, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Moto nziza ikoresha imirasire y'amashanyarazi, iteretse ahantu ku makaro meza y'umukara, iri mu ibara ry'umweru ndetse ifite amapine y'umukara.

Imodoka nini iri mu muhanda ni imodoka nziza iteye ubwuzu, biragaragara ko ari iya Leta kuko purake zayo zirabigaragaza.

Moto yicayeho umugabo wambaye kasike arimo aragenda mu muhanda w'amapave, ni umuhanda urakomeye kuko wukishijwe amabuye, hirya yaho hari jaride ikenewe kuvomererwa.

Umumotari ari mumuhanda wa mabuye, inyumaye ahasize umupolisi wambaye imyambaro yabugenewe, uyu mumotari arimo arakurikiza amategeko y'umuhanda.

Abamotari bambaye amakasike bahagaze mu muhanda, bamwe bahetse abagenzi, biragaragara ko bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye.

Umumotari ahetse mugenzi we bombi bambaye kasike z'umutuku, batwaye moto bari mu muhanda, ni ku manywa y'ihangu ndetse umuhanda usa neza urasukuye.

Moto ihetseho abantu babiri barimo barerekeza ahantu runaka bose bambaye amakasike, gusa utwaye arakoresha telefoni, ni bibi kuko biteza impanuka, ibi ngibi Polisi y'u Rwanda irabibuza.

Umuhanda muremure urimo urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'ama moto, habaye ambutiyage barimo baragenda bazamuka abandi bamanuka.

Umu motari wicaye kuri moto mu muhanda hagati. Ni ku manywa y'ihangu aratwaye, yambaye kasike indi yayiteretse imbere ye arimo aragenda mu muhanda ni kuzuba.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu iri mu muhanda imeze neza, ni ku zuba hari umucyo uyu muhanda ni igikorwa remezo gikeye.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo w'umweru ndetse uparitswemo moto iri mu ibara ry'umutuku iriho umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite amafaranga y'u Rwanda mu ntoki ndetse yambaye ipantaro y'ikoboyi.

Abamotari bambaye amajire y'ubururu bari kuri moto, bategereje ko abagenzi babageraho bakabatwara aho bashaka kubageza, bambaye kasike.

Moto iri mu muhanda w'amabuye itwawe n'umugabo ufite kasike ebyiri, imwe arayambaye indi iri mu ntoki, iruhande rwe hari inzu zikorerwamo ubucuruzi.

Motari ari kuri moto ku muhanda afite telefoni mu ntoki ibi bihabanye na gahunda ya leta yacu, kuko umuyobozi w'ikinyabiziga ntiyemerewe gutwara akoresha telefoni.